Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarishingiye ka bare, akaba afitemo ibintu bitandukanye bifite intungamubiri, ugasanga afite imigati ikozwe ukuntu iteye amatsiko, abantu bakajya kuyigura muri iyo bare, ibyo biba byiza cyane bakaba bafite n'icyo gusomeza, ibyo bigakomeza bigakurura abakiriya kubera ko ufite ibintu byiza biboneye, kandi bigakomeza bikagufasha gutera imbere.

Ubucuruzi ahanini budufatiye runini, aho usanga abantu barikoreye amaresitora, amabari se, ugasanga harimo nk'amafi. Umuntu yagenda ari nko kugenda ku rugendo akabona ahantu yajya kurira ashonje, agasangayo ubwoko bw'ibiryo bitandukanye. Hariho amafi yatunga ubuzima bwacu, hariho n'ibirungo byose. Ugasanga iyo fi urikuyireba iraboneye, ikagutungira n'ubuzima neza.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarihangiye imirimo, akavuga ati ngiye kujya ndacuruza ibiryo, ku buryo n'uwaba ashonje ari ku nzira yaza akarya, akabona n'icyo kunywa, nanjye nkabona amafaranga ninjiza, ibyo bikaba byiza cyane, kuko biri muri bimwe bigize iterambere.

Ubucuruzi ni bwiza cyane aho usanga ari ahantu hari nka hoteri. Abakerarugendo baba badusuye nko mu gihugu bakaba baboneraho aho gusohokera heza cyane haboneye, bakabonamo icyo kurya, icyo kunywa baka babona n'amacumbi yo kuba baryama bananiwe, ibyo bikomeza bigaha igihugu iterambere, kubera ko ubucuruzi bukomeje kugenda bwaguka.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yakoze nk'urugendo yarangiza agasonza akabona amabarizi yo kujya kuriramo, akabona nk'inyama ziri ku duti izo bita burushete, bakazajya barazimuzanira akirira kuko ni zo yari ashaka, ibyo biba byiza cyane kandi bifasha n'abacuruzi kubona abakiriya.

Bare cyangwa se utubari tuba twiza cyane, aho bantu bahuriramo bagasabana, bakaganira, bakunga ubucuti, bakabona icyo kunywa, bakabaho neza, bakumva bishimye. Baba badaherukana bakaganira, bakumva bishimye kubera ayo mabare aba yabahuje barangiza bakumva bafite umutekano.

Kwihangira imirimo bikomeje kwiyongera cyane. Abantu barahumutse bakura amaboko mu mufuka aho usanga umuntu yarishingiye bizinesi akajya acuruza akagira bare babashiramo n'ibyumba byo kuraramo ku buryo umuntu umwe yakwirarira aho atekanye akajya acuruza ibintu bitandukanye byo kurya, ugasanga afite ifi nziza, afite inkokoafite, imbuto zitandukanye. Wajya aho ngaho ugafata icyo ushaka kubera ko uba ufite ubushobozi.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarihangiye buzinesi akaba afite barizi .Barizi ni utubari cyangwa amabutike aba arimo ibyo kurya n'ibyo kunywa wahagera ushonje, cyangwa ba mukerarugendo bahagera bashonje cyangwa se n'abandi bakora ikirori bakaba basohokera muri izo barizi, bakaguteza imbere nawe ukabona abakiriye bityo bakabasha gufatiramo ifi itunga umubiri, ibyo bikabasha kuba byiza cyane .

Bare ni nziza cyane, aho umuntu agenda yakumva ananiwe cyangwa se ashonje, akabona aho yicara akaharuhukira yarangiza agafata icyo kurya n'icyo kunywa, akumva ameze neza atekanye.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho umuntu ajya gushaka nk'icyo kunywa cyangwa ukaba ugiye gushaka nka za shampanye bajya barakoresha nko mu bukwe, umuntu akaba azi ahantu hari iyo shampanye, kubera ko iterambere ryiyongereye, nta hantu ibyo bikoresho bitaba ,za wayini umuntu akaba yabona aho ajya kuyigurira mu mabare atandukanye ,kuko hose hose yarahageze.

Abantu bubaka amazu badufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarubatse nk'amazu abantu bakaza kuyakodesha, bakayageramo amabutike, bakajya barayacuruza n'ibindi bitandukanye, ibiseke, ibitenge n'udufuka, bakaba bazi no kudoda, bakadufasha gukomeza kwambara imyenda myiza, tukabona n'ibiseke byo kuzajya turatseba mu bukwe n'ibyo kujyanamo ibyo kugemura

Amaduka mato ni meza cyane mu karitsiye dutuyemo kuko bidufasha kuba twabona nka ba rwiyemezamirimo, biyemeza gukora inkweto, kudoda, ugasanga umuntu akora inkweto zikaba ari medini Rwanda, tukabona inkweto ku giciro gitoya, tukabasha kwambara inkweto, tukagenda mu muhanda twese twambaye inkweto kandi dukeye dusa neza.

Ubucuruzi buba bwiza aho usanga bwarafashije abantu kwiteza imbere, ugasanga umuntu acuruza ikintu runaka yarangiza akabyacyandika ku cyapa akagishira hariya abantu bazi gusoma bakazajya barasoma, bakamenya ngo abo bantu hari ikintu bakajya kuhagura nk'inzoga, hariho n'ibiryo ugasanga hababo n'ibintu byiza cyane wajya kubigura ugateza umucuruzi imbere, nawe akabona iterambere rikiyongera.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarishingiye bizinesi ,agafata nk'icyumba runaka akakigura, yarangiza agashyiramo ibicuruzwa bitandukanye ,akazajya arabona abakiriya ,agashyiraho n'icyapa kuko umuntu wese wize ntabwo yananirwa kugisoma, ugasanga yavuze ngo ni alimantasiyo irimo ibiribwa, ibinyobwa ,buri kimwe cyose kirimo, waba uri kugenda uri mu muhanda ushonje ukaba wajya gufatiramo icyo ikintu, ubuzima bugakomeza, ugakomeza gukora urugendo wishimye.

Ubucuruzi bubaga bwiza cyane aho usanga umuntu yarihangiye bizinesi akajya aracuruza amafanta, amakaramu, amabiswi n'utumverope, akazajya abona n'abakiriya, bityo bikamufasha gukomeza kwagura ubucuruzi bwe, akazajya azanamo n'ibindi bintu bitandukanye.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho umuntu aba yarize ibintu bitandukanye, yagera hanze yabura akazi, akihangira imirimo, akavuga ati reka nshinge botike jye ndakira abakiriya, mbakorera amaterefoni n'amatereviziyo, ibyo bikamufasha gutera imbere kuko abona amafaranga akazajya yaprayingira abantu ibintu bitandukanye bajya nko kubona akazi ibyo bikamufasha kubona iterambere rye.

Iterambere ni ryiza cyane aho dusigaye turabona aho tujya turajya guhahira, aho no mu byaro hose bahubatse amabutike tukazajya turabona icyo dukeneye ,tukazajya turabona aho tujya turajya guhahira, ibyo bikatubera byiza hakatubera na hafi ,ubwo rero mbere habaga amabutike, akibera kure cyane ariko ubu dusigaye tuyabonera hafi iwacu.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho abantu baba bari bucuruza nk'imyenda, umuntu ntiyirwe arashaka kujya mu masoko kure akabona aho agurira hafi umurizo butike, akabona naho agura na mitiyu, kubera ko mitiyu bazanye utuzu tumeze nk'amabutike, umuntu akaba yabasha kugura mitiyu hafi atariwe arajya kure, akohererereza umuntu amafaranga byoroshye ibyo bikaba byiza cyane bikatworohereza no mu rugendo.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, cyane cyane aho usanga umuntu afite nk'abakiriya benshi acuruza ibintu runaka yarabimanitse nko kucapa abantu bakaba babizi akaba avuga neza agakurura abakiriya, akazarya agira n'abakiriya benshi ibyo bigakomeza bikamufasha gutera imbere kubera ko avuga neza yabonye n'abakiriya benshi bakabona n'ibifaranga byinshi, ibicuruzwa kandi bihita bifugira ako kanya kajya kurangura ibindi agakomeza akiteza imbere.

Amaduka ahanini usanga adufatiye runini aho tuba dutuye ugasanga dutuye kure y'umujyi, iyo dutuye kure y'umujyi rero hariho ba rwiyemezamirimo bafite utubutike dutoya, icyo bita iduka, biradufasha kuko icyo dukeneye icyo ari cyo cyose tujya kugishakiraho tukakibona bitworoheye, tutabanje kwirukanka cyangwa se ngo dutume cyangwa se ngo dutege bityo utu tubutike dutoya turadufasha mu buzima bwa buri munsi.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga ku mucuruzi, afite ibintu bitandukanye imbuto, imineke, amaronji, amananasi, n' inyanya tukabona aho tujya kubihahira bitatugoye, kandi ku giciro gitoya, ibyo bigakomeza kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubucuruzi ni bwiza cyane budufitiye akamaro kanini, aho twakuye amaboko mu mifuka tugakora. Ugasanga ahantu hamanitse icyapa runaka kirigusobanura ibyo ucuruza, hariho inyama, hari inzoga, bivuze ngo bucuruza ibyo bintu. Umuntu yaba ashonje akaza kuguriraho ibyo kurya, agakomeza urugendo ameze neza kandi yishimye, kuko yabonye ahantu ho kurya.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarafashe nka hantu hari amazu menshi akajya ahacuruza ibintu bitandukanye. Akamanika n'icyapa abantu bagisoma bakamenya ngo aho hantu hari ikintu runaka, ibyo bikabasha kumukururira abakiriya bakajya baraza kumuteza imbere, bityo nawe ubucuruzi bwe bugakomeza bukajya buraguka.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarihangiye imirimo, akazajya arakora nk'imigati cyangwa se agakora za sambusa, ugasanga hari abantu bazikunda yaba ari kugenda akabona ahantu bari kuzicuruza, akaba yabona icyo kurya cyangwa se yaba afite nk'umwana muto yaba ashonje akamugurira icyo kurya akarya ubuzima bugakomeza bukaba bwiza cyane.

ubucuruzi ni bwiza cyane aho usanga umuntu yarihangiye imirimo akavuga ati nzajya ndacuruza, reka manike n'izina ryanjye na nimero, uzajya arambura ajye arampamagara maze mpite nza kumureba, ibyo biba byiza cyane kuko abantu bose barajijutse iyo basanze adahari bahita bamuhamagara kuko icyapa kiba cyerekana ibyo acuruza kandi aribyo bakeneye, ibyo bikaba byiza cyane bikaba bya kurura nabakiriye bikagufasha gutera imbere.

Ubucuruzi ni bwiza cyane budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yariteje imbere akavuga ati reka niga gusuka nshinge saro njye ndabona abakiriye najye niteza imbere mu bindi bintu bitandukanye, agashingasaro akazajya arasuka imisatsi abantu nabo bakabona aho bisukisha hafi batiriwe barajya kure, ukabona umuntu yaravuze ati reka nzajye ndadoda imyenda y'abantu, akadoda imyenda yacitse abantu bakabasha kwambara neza, bakagenda banasa neza no ku mutwe.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga abantu bose barahumutse, bagakura amaboko mu mifuka bagakora, bakamenya ngo bagiye gucuruza ibitenge, ibitenge bikazajya bibonerwa abakiriya agakomeza akiteza imbere, akazajya abicururiza ahantu muri butike abantu bakazajya bamenya ngo haba ibitenge, bakazajya baza kumuteza imbere, na we agakomeza kwagura ubucuruzi bwe.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usangaga umuntu ari gucuruza ibintu bitandukanye, cyane cyane iyo afite butike yuzuye ikurura abantu bakaza kugura ibyo bintu, ugasanga afite ibikoresho bya eregitoronike. Amaradiyo, amatereviziyo, abantu bakamenya aho hantu birahaba nta ahandi hantu wabishakira bityo bigafasha n'umucuruzi kuba yabasobanurira ibyo acuruza kubera ko ba bina kucapa.

Ubucuruzi ni bwiza cyane aho usanga umuntu yarishingiye butike yarangiza akayita izina rye umuntu ajye kuhagura akahasanga nimero, yasanga hafunze akaba yamuhamagara uwo umuntu akazana umuntu imbere akavuga ati mu mwanya jecururiza aho mete yo na wakwiteza imbere ukazagera ahacuruzati bityo bigakomeza bigakururana bakiriya baza kugura meti iyo wabona bashonje bakwegurira coo kurya c se co kunywa kuri iyoubutike yawe.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga nk'umuntu yarishingiye bizinesi, yarangiza akazajya aracuruza ibintu bitandukanye nk'inzoga, ugasanga afite na filime yereka abaturage amakuru, bagakomeza bagakurikirana aho Igihugu cyacu kigeze. Bityo bigakomeza bigakurura abakiriya, bakazajya barazinywa kubera ko hari ibyiza babonyeyo kandi basanzeyo.

Ubucuruzi buba bwiza cyane kandi budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarakuye amaboko mu mifuka, agakora akavuga ati: reka ngure iriya nzu nyongere nzajya ndayicururizamo ibintu bitandukanye, akagira n'amacumbi umuntu yaba agiye bukamwiriraho akaba yakwirarira aho ngaho, ameze neza afite n'umutekano bityo n'umucuruzi agakomeza agatere imbere.

Ubucuruzi bwiza cyane, kandi budafitiye akamaro kanini. Aho usanga Leta yarubatse amasoko, ikabona n' abantu ba rwiyemeza-mirimo baza gukoreramo. Leta ikabasha kubona amafaranga y'imisoro. Ikabasha gukora ibikorwa-remezo by'igihugu. Ndetse n'umucuruzi uri gucururizamo akajya abana abakiriya. Na we akomeza akiteza imbere muri bizinesi ye. Igakomeza ikaguka cyane.

Ubucuruzi buba bwiza cyane. Aho usanga inzu za butike zidufitiye akamaro kanini cyane. Cyangwa se inzu z'ubucuruzi, kuko asanga umuntu afite butike, ashyiramo ibikoresho bitandukanye. Agacuruza nk'ibiribwa, akajya aranguzamo ibihaza, akabigurisha, abantu bakaza kubigura, bakamenya ko uwo muntu ari byo agurisha, akajya ahorana abakiriya b'icuruzwa. Bikamufasha gutera imbere.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarishingiye bizinesi, agafata nk'ahantu muri etaje akahagira ahantu h'ubucuruzi azajya akorera ibintu bitandukanye, agacuruza ibintu bitandukanye, akabimanika no ku cyapa akazajya abicuruza cyangwa se akazana icyuma cyo gufotora akazajya yandika ku myenda, agashiraho ibyapa bitandukanye, abantu bakazajya baza kugura iyo myenda yanditseho n'amazina.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, cyane cyane iyo umuntu bwamwiriyeho ari gushaka aho kurara, ugasanga mbere wasangaga utabona aho kurara keretse ugiye gucumbika mu rugo rw'abandi, to na bwo uba utisanzuye bari kukwishisha, ariko ubu ngubu usanga ahantu hose hari hari amazu yagenywe yo kuzajya umuntu araramo, akaba yanditsweho nuko yararamo hakaba hari na numero wakwifashisha.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga nk'umuntu yarafashe nk'icyumba runaka, cya butike akazajya aracururizamo ibintu bitandukanye akiteza imbere, akazajya aracuruza amabase, amagi, imifuka, buri kimwe cyose kirimo. Yewe n'imigati abantu bakazajya baraza kumuteza imbere, na we agakomeza akabona amafaranga, agakomeza akagura ubucuruzi bwe.

Abacuruzi bari mu bantu bamwe batuma igihugu kijya kiratera imbere, aho usanga umuntu yarafashe nk'inzu runaka, akayigira hoteri, yamara kuyigira hoteri agashyiramo ibitanda, ibikoresho byose by'isuku birimo, ibijyamirwa, akajya arateka n'ibiryo ku buryo uwo muntu waraye aho hantu abona n'ibiryo byo kurya, bityo bikabasha guteza igihugu imbere.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarafashe nk'iduka akazajya araricuruzamo ibintu bitandukanye, umuntu akishyiriraho agataka imbere ka mitiyu, akazajya arabona n'abakiriya bakamugurira mitiyu, baba baje kugura mu ikintu runaka muri iyo botike bakaba babikuza, bakamuteza imbere nawe agakomeza akiteza imbere ubucuruzi bwe bugakomeza gukaguka, ugasanga umuntu acuruza nk'ibintu yarabimanitse ku gipapuro, umuntu akamenya aho ara ajya kugura, biba byiza cyane.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, aho usanga abantu bafite ibyo bacuruza bitandukanye, natwe tukazajya tumenya ko aho hantu bihaba, tukamenya ngo aho hantu bahasukira imisatsi, tukajya kwisukisha imisatsi, aho hantu bacuruza inkweto tukajya kuhagurira n'inkweto. Ibyo bikatworohera kuko kera wasangaga umuntu atazi aho bacuruza icyo kintu, ukabaririza ariko ubu ni ukubyibonera n'amaso babicuruza.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarafashe nk'icyumba runaka, akagifata nko mu isoko cyangwa se nko muri etaje, akazajya aracuruza akabona abakiriya, ibyo bikamufasha gutera imbere kuko abona amafaranga, akaba yaguramo n'ibyokurya akaba yakomeza akibeshaho mu buryo bwo gutera imbere kandi butandukanye.

Ubucuruzi buba bwiza cyane kandi budufitiye akamaro kanini, aho usanga abantu bariyeyemeje gucuruza, bagafata icyumba runaka, cya butike bakazajya, abashiramo ibicuruzwa bitandukanye, bagacuruza k'inyama, barangiza bagacuruza n'inzoga, bagashira no kucapa ibyo bacuruza, ibyo bikatworohera kumenya, icyo ugiye kugura, naho uragishakira.

Ubucuruzi budufatiye runini aho usanga mu byaro hose baratugejejeho amabutike, haraje ba rwiyemezamirimo bakajya baracuruza natwe tukabona ibyo kugura, bityo bikatworohera kuba twakora urugendo ngo turi kujya ku masoko, ibyo dukeneye byose tukabisanga muri izo za butike, bikatubera byiza cyane, bikatugabanyiririza n'urugendo, tukabigura hafi tutiriwe turajya kure.

Ubucuruzi budufatiye runini kandi ni bwiza cyane, aho usanga ahantu bari gucuruza nk'inkweto, ibyo bikagufasha kuzigura, bitakugoye ngo ugiye kujya kuzigurira kure, ugasanga ubonye ahantu, basukira misatsi ukajya kukwisukisha, kuko iterambere hose ryarahageze, ibyo byatubereye byiza cyane, kuko n'iterambere ryacu bwite, n'iterambere ry'igihugu.

Ubucuruzi buba bwiza cyane kandi budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarafashe nk'icyumba cya butike, akazajya aragicururizamo. Akaba afite ibicuruzwa bitandukanye. Nk'ibishyimbo, ubunyobwa, akazajya arabigurisha, abantu bakajya baramenya ko ari we ubigira, bakazajya baraza kumuteza imbere. Ibyo bigakomeza bikamufasha gutera imbere, kuko abona abakiriye kandi aba amajije no kwamamara.

Ubucuruza ahanini budufatira runini aho usanga nk' iyo utembereye nk' ahantu runaka, warangiza ukabona ahantu hamanitse ibyo kurya wari ushonje ukaba wajya kubabaza ese ibiryo ni angahe? ukabona ibyo warya bikoroheye utiriwe urasonza ngo urarya ugeze mu rugo ugasanga ubonye ibyo kurya, ugakomeza urugendo wimereye neza.

Amabutike cyangwa se amaduka ni meza cyane aho dutuye kubera ko bidufasha kuba twabona ibyo dukeneye bitworoheye amabase, imyenda, amasafuriya n'ibirungo n'ibyo guteka n'imiceri. Ibyo tubibona mu buryo butworoheye kuko tuba twegereye ayo mabutike bityo bikadufasha kubaho neza.

Ubucuruzi ni bwiza cyane， aho usanga umuntu ari gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi， bikatworohera nk'umuntu ugiye kubaka， akaba azi ngo aho hantu haba ibikoresho by'ubwubatsi， ibirahure se，ibyuma cyangwa se imisumari，akamenya ngo aho hantu birahaba， akajya kubigurayo， yarangiza akubaka inzu，ubucuruzi bukomeje kudufasha mu buryo bw'iterambere.

Ubucuruzi budufitiye akamaro kanini aho usanga umuntu yarashinze bizinesi akazajya aracuruza ibintu bitandukanye natwe tukazajya turabona aho tubigurira, ugasanga acuruza udufuka, amaborosada, amakorogati, udutambaro, akaba afite n'icyapa kigaragaza n'ibindi bintu acuruza, ko bakora amatelefone n'amakompiyuta, ibyo bikadufasha aho tugiye tukamenya ngo tugiye aha ahantu runaka, n'uwo mucuruzi tukamuteza imbere na we akagira ubuzima bwiza.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho budufasha gutera imbere, ugasanga umuntu yihangiye bizinesi , agashinga resitora abantu bakajya baza kuguramo inyama, akaba afite inyama z'ubwoko bwose ari iz'ikwavu, ari iz'inka, ari iz'ihene, ibyo bikadufasha gutera imbere, kuko abona abakiriya akabonamo n'amafaranga agakomeza akagenda aragura bizinesi ye.

Butike ziba nziza cyane, aho usanga mu cyaro hari nkama etaje, warangiza abantu bakajya kuguriramo ibikoresho bitandukanye, ugasanga ni butike z'ama etaje. Abantu bakishimira kujya kugurayo ibikoresho bitandukanye, nko mu cyaro iyo tubonye ahantu hari ama etaje twishimira kujya kugurayo.

Ubucuruzi budufitiye akamaro kanini aho usanga nk'ahantu runaka bacuruza ibintu bitandukanye, ugasanga harimo nk'icyapa gisobanura ibyo bacuruza biratworohera cyane kuko umenya ic yougiye kugura ukabona kirahanditse ntiba ari umugati cyangwa se niba ari amazi niba ari za shampanyi bagenda barakoresha mu bukwe cyangwa niba umuntu akeneye amata akamenya icyo aragura akamenya ngo aho hantu kirahari.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yarishingiye buzinesi, agashinga nka butike cyangwa se iduka agashyiramo ibintu akora byose, akabishyira no gucyapfa ku buryo umuntu uzi gusoma azabireba akamenya ngo aho hantu akora ibyo bintu atiriwe arabaririza, ugasanga hariho na nimero za telefoni, umuntu yaba adahari bakamuhamagara akaza agakora telefone, radio, televiziyo ugasanga anacuruza nibyo bintu, ibyo bikatworohera mu buryo bwokujya mu mujyi tukabibonera hafi.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarishingiye bizinesi akazajya acururiza mukazu runaka, mu buryo bwo kwiteza imbere, akazajya arasiga amarangi nko ku mazu ibyo bikaba byiza cyane, bigatuma umuntu inzu ye ihora iboneneye, ibyo bikakomeza bikadufasha gusa neza ku gihugu natwe ubwacu tutisize.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu ari gucuruza ibintu bitandukanye muri butike cyangwaga se mu iduka, afite amafu atandukanye ay'ubugari, akagira n'amaji yo kuzajya abantu baranywa, ndetse akagira n'icyapa gisobanura ibintu acuruza, agashiraho na nimero, ku buryo umuntu yaba ataje gukora abantu bamuhamagara, agakomeza akabona abakiriya mu buryo bwiza cyane.

Ubucuruzi nibwiza cyane, aho usanga budufatiye runini, ugasanga ababubatse ama etage ahantu hose, tukishimira kujya kugura muri izo za butike, kubera ko ari ama etage, ikindi bagashyiraho n 'ibyapa bidusobanurira ibyo abo bantu bacuruza, bivuze ngo no kwiga ni byiza za cyane, kuko tubasha kubisoma tukamenya icyo tugiye kugura, bityo bikadufasha mu buzima bwacu.

Kwihangira imirimo biba byiza cyane, aho usanga umuntu yarubatse nk'inzu akayita butike, yarangiza agashyiramo ibintu bitandukanye, ugasanga ahuguriramo abanyeshuri, cyane cyane ugasanga ahuguriramo abanyeshuri bagakuramo na za sertifika, bakazifashisha zibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ugasanga arafotora agira ate akora buri kimwe, araprayingira abanyeshuri bakajya muri kaminuza ibyo bikamufasha kwiteza imbere.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga abantu bari kwiteza imbere, ukabona umuntu abonye nk'igishoro agacuruza nka mitiyu maze tukabona aho tugura amayinite, tukabona uko duhamagara abantu bari kure cyangwa se waba ukeneye umuntu ukabona uko umuhamagara byoroshye utiriwe urajya gushaka amayinite kure cyane ,ubucuruzi nabwo bwaratwegereye dusigaye tubona n'aho tugura ibikoresho by'abana bitandukanye.

Ubucuruzi budufitiye akamaro kanini. Aho usanga umuntu yarishingiye bizinesi yo gucuruza. Akagira nka butike runaka, akayikodesha , cyangwa se akayigura burundu. Akazajya acururizamo na za pirimusi, inzoga zitandukanye za gatanu akagira n'abakiriya. Yarangiza akazigurisha, agakomeza akagura ubucuruzi bwe, akiteza imbere, akabona n'amafaranga yo kuba yatangirira abana be amashuri.

Ubucuruzi bukomeje kwaguka mu gihugu hose, aho usanga buri karitsiye buri mudugudu harimo ubucuruzi butandukanye, ugasanga ngaho hantu urashonje uri kugenda nta kintu wahabura, hariho icyayi, hariho ibyo kurya, hariho ibyo kunywa bitandukanye, bitewe n'icyo ushaka ukaba wakibona, kubera iterambere, buri wese yakuye amaboko mu mufuka ari gukora, ibyo bidufasha gutere imbere nk'igihugu.

Ubucuruzi bukomeje kudufatira runini mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho usanga nka hantu runaka bagurisha, bacuruza nk'ibitanda, wabicuruza ugasanga umuntu abonye aje kukikigura, kuko mbere twakoraga ibyo mu mabuye ariko ubungubu, usanga ahantu hose bari ku bicuruza ibitanda, tukabasha kurara ahantu heza kandi haboneye.

Ubucuruzi budufatiye runini, aho usanga umuntu yarishingiye bizinesi akaba acuruza ibintu bitandukanye, akaba agira n'amagaze tukamenya aho twaja kugurira amagaze, tukamenya aho twajya kugurira ibyo kurya. Ibyo bikaba byiza cyane bikatworohereza urugendo, kugirango ngo ujye ku isoko rinini ukabona butike hafi ukaba wayiguriraho ibintu bitandukanye nk'imineke, ibyo bigakomeza bikatworohereza urugendo bikaba byiza cyane

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga ko ahantu hari ibyapa bitandukanye byerekana ibyo bacuruza. Ibyo ngibyo bijya bidufasha tugiye kureba nk'icyo tugiye kugura, ugasanga ukeneye kugura nka televiziyo hariho ibyapa bya canari, nkamenya ngo aho hantu bacuruza amateleviziyo hariho bya ekwiti, hariho ibya beka nkamenya ko aho hantu nakohereza amafaranga nyoherereza umuntu nka mitiyu.

Ubucuruzi bukomeje kwaguka bukaba bunini cyane， aho usanga ahantu harubatswe amayetaje yo kuzajya bayacururizamo ibintu bitandukanye， abantu bakava mu ntara bakajya kurangura aho hantu，bakava mu nshe zitandukanye， mu mirenge itandukanye，ugasanga umuntu yikoreye bizinesi yo kuzajya aracuruza ibintu abiranguye， nk'amazi，amata， ugasanga aho hantu amazi ntiwayahabura， n'amata， bityo tukabasha guteza.....

Ubucuruzi ni bwiza cyane aho usanga iterambere ryariyongereye, abantu bafite ama etaje bityo bikaborohera kuba babona ukuntu bashyiramo umusarane, ubwo iyo abacuruzi bafite ya misarane ya kizungu ibyo biba byiza cyane, kuko byorohereza n'umuntu wubatse iyo etage kubona ukuntu ashyiramo icyumba cy'umusarani ni cyiza cyane, icyo bicaraho icyo gifasha abantu bubatse ama etaje kubona uko bashyiramo iyo misarani ibyo bikaba byiza cyane.

Ubucuruzi budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuhodo yarihangiye bizinesi, agakura amaboko mu mufuka agakora, ugasanga yaguze nk'imyenda akagura n'bipupe byo kujya yambika, kugira ngo abo bantu baze barebe iyo myenda babone iboneye, akaba afite n'ibyapa bisobanura icyo acuruza, umuntu akabisoma akinjira azi icyo aribubaza, ibyo bikatworohera cyane.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga umuntu yari yihangiye bisinesi, akagura imyenda z'abageni akazajya arabambika ibyo bigakomeza bikaba byiza cyane, natwe twaba tugiye gukora ubukwe bakaduca amafaranga make, bityo bigatuma abantu bazajya bararakora ubukwe bakagenda neza bajya mu rusengero Imana ika ibaha umugisha, bakajya barabana neza ibyo bigakomeza bifasha igihugu gutera imbere.

ubucuruzi buba bwiza cyane kandi budufitiye akamaro kanini aho usanga umuntu yaravuze ati reka nshuruze amatelefoni atandukanye agafata nk'akumba runaka kaka butike akajya j Acururizamo amatelefone atandukanye ibyo biba byiza cyane kuko bifasha abaturage kumenya aho igihugu kigeze ibyo bigakomeza bigafasha igihugu gutera imbere ugasanga acuruza amasumsang usangagehamagara axi u ushakake ubwoko butandukanye akaba yagusanga aho ngaho

Ubucuruzi budufatira runini, aho usanga umuntu acuruza ibintu bitandukanye, akaba yaramanitse n'iycapa ukamenya ibyo acuruza, utiriwe urajijinga, utiriwe ujya kubaririza ngo acuruza iki. Ibyo bikabasha kugusobanurira icyo acuruza, ugahita umenya aho hantu haba ibikoresho byo ku ishuri, gufotora, kugira umuti wo mu mamashini, impapuro. Ibyo bikadufasha kuba twamenya icyo tugiye gushaka naho turagishakira.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarishingiye bare akazajya acuruza ibindi bitandukanye, cyane cyane bare ziba zirimo burusheti, amayoga, ibyo kurya bitandukanye, amafiriti, umuntu yaba ari kugenda ku rugendo akaba abonye ahantu handitse bare akaba yajya kuharira, urugendo rugakomeza ameze neza. Ibyo bijya bidufasha no mu rugendo. Iyo umuntu ari kugenda, ibyo biramufasha, ashonje yabona aho kurira.

Ubucuruzi buba bwiza cyane cyane aho umuntu yashakaga aho aragura ikintu akahabura icyo kurya ugasanga ateze agiye kure, ariko bwaratwegereye ahantu hose ugasanga aho hantu hari amazu, amazu y'ubucuruzi ayo mazu arimo n'ibyumba byo kuraramo umuntu yaba yasuye nk'ahantu bukamwiriraho akaba yarara aho ngaho bimworoheye akabona icyo kurya n'icyo kunywa ibyo bikaba byiza cyane.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, cyangwa se kwihangira baga umurimo byiza cyane, aho usanga umuntu yarize, yamara kwiga akagenda akavuga ati reka nshinge farumasi, abantu bazajye baraza kuguriramo imiti biboroheye batiriwe barajya ku bitaro iyo kure ,bakavuga indwara, umuntu kubera ko aba yarabyigiye akamenya icyo umuntu arwaye ,akaba yamuha umuti, ibyo bikatworohereza mu rugendo ugasanga umuntu yirivuje hafi.

Butike cyangwa se amaduka ni meza mu buzima busanzwe kuko tubasha gukenera hari ibyo dukenera byo kuguriramo: inkweto, imyenda n'ibindi bikoresho byo mu rugo bitandukanye. Biradufasha kuko amabutike niyo tuboneramo byinshi byo gukoresha ibikoresho byo mu rugo se amabase, amasafuriya, bityo tukabasha kubaho neza n'ibyo dukeneye byose tubifite.

Amaduka ni meza cyane aho usanga abaturage buri wese yisanzuye abona icyo abona cyo guhaha bimworoheye abona aho guhahira hafi atabashije kujya kure bityo bikaba byiza icyo ukeneye buri kimwe cyose ukakibona. Botike zifite akamaro kanini kubaturage.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga abantu barishingiye bizinesi, ugasanga buri wese afite umuryango wa butike, ugasanga afite iduka acururizamo ibintu bitandukanye, hakaba hari n'amagaze, abantu bakazajya barajya kuhagurira amagaze, bakagurayo n'ibyo kurya bityo ubuzima bugakomeza bukaba bwiza, bagakomeza bakiteza imbere n'abo bacuruza bakagira inyungu kuko babonye abakiriya.

Kwihangira imirimo biba byiza cyane, aho usanga umuntu yarihangiye imirimo, akishingira nka butike, akazajya aracuruza ibintu bitandukanye byo kurya no kunywa, warangiza ugashinga n'ahantu ho kuzajya urakanikira kubera ko warabyize, urabimenya ubona utabonye akazi wishingira bizinesi, kugira ngo uzajye urabikora, ukore n'amatelefone nta kibazo, abantu bamenye ko uyakora.

Ubucuruzi buba bwiza cyane kandi budufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarafashemo ikibanza runaka akacyubakamo amazu meza, akayagira resitora cyangwa se barezi agashyiramo n'amacumbi, ku buryo uwananiwe cyangwa se ari ku rugendo adafite aho gucumbika, yajya muri iyo bare akabona icumbi ryo kuryamamo, akaba yabona n'ibiryo byo kurya ubuzima bugakomeza bwacya akagenda. Ibyo biba byiza cyane, kuko uwagiye akananirwa abona aho kuruhukira.

Gusenga biba byiza cyane, aho usanga duhuriye nko mu makorali, twamara guhurira mu makorali tukagira ubucuti, tugakundana, tugafashanya, tugafasha na bagenzi bacu batishoboye. Bityo Igihugu kigakomeza kigatera imbere, kuko twunze ubumwe kandi twumvikana nta kibazo.

Kwihangira imirimo biba byiza cyane, aho usanga umuntu yarubatse nka hoteri akazanamo abakozi, abo bakozi bakabona akazi, akazana n'udutebe dutatse neza n'amezaza, yarangiza agashiraho dizayini ku meza iboneye, ku buryo abakiriya baraza bakishima, bakabona aho ahantu hasa neza, bakabasha kuzajya baraza guteza imbere iyo hoteri, bakararamo bakarya ibiryo byiza nk'inyama. Ibyo bigakomeza gufasha uwo washinze bizinesi guterare imbere.

Iterambere ni ryiza cyane, aho usanga ugiye nko gusura nk'abantu ,waba wasonzera nko mu nzira cyangwa se bwakwiriraho ukaba wabona ahantu ucumbika, ufite amafaranga ukayatanga, warangiza ukabona n'icyo kurya ,ukaba wanarya, ukabona n'icyo kunywa, bityo bikadufasha gukomeza urugendo neza ,cyangwa se tugakomeza kubaho neza, iterambere rigakomeza kwiyongera ,ku buryo nta muntu warara mu nzira atabonye aho kurara.

Kwiteza imbere bikomeje kwiyongera cyane, aho usanga abantu barihuje bakubaka bizinesi, bakubaka nk'inzu, bakayikoramo hoteli bakazajya bateka, hakaba harimo n'ibyumba byo kuryamamo, ku buryo uwajemo ashaka kuryama abona aho kuruhukira. Ibyo bigakomeza bigafasha abaturage gutera imbere, bakajya babona amafaranga mu buryo buboroheye.

Iterambere ni ryiza cyane, aho usanga umuntu yarishingiye nka hoteri runaka, bakazajya bakurura na ba mukerarugendo bakaza kuharira, bagenda gutembera ahantu runaka, warangiza n'umuntu ariko ugenda ashonje agera kuri iyo hoteri akaba yasohokana nuwe bakajya kuharira, bakishima bakidagadura kuko n'ubwiza nyaburanga bw'igihugu.

Kwihangira imirimo ni byiza cyane kandi bidufitiye akakamaro kanini, aho usanga umuntu yarishingiye bizinesi akagira hoteri akazajya atekera abantu, agashinga bizinesi akagira ibyumba byo kuzajya araha abantu ngo bararemo, ibyo bikaba byiza cyane bikagufasha kubona abakiriya, bikagufasha no kubona amafaranga ibyo bigakomeza bikagufasha gutera imbere.

Ubucuruzi budufiteye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarihangiye umurimo, akagira nka bizinesi runaka, agafata ahantu akahagira nka hoteri, abantu bakazajya baraza no kuyikodesha bagize nk'ikirori runaka, ibyo bikabafasha kubona aho bidagadurira, nawe washinze hoteri ukazajya ubona amafaranga, ugakomeza ukiteza imbere.

Ba rwiyemezamirimo ni beza cyane aho usanga umuntu yarihangiye buzinesi, akubaka nk'inzu nziza ahantu akageraho n'amapusine, akazajya arakurura abantu kuza kugurira aha hantu, bakabyita hoteri umuntu yaza yasohokanye n'umuryango we bakaza kuharuhukira, bagiye nko koga bakogera no muri pisine ku buryo batarohama, bakabona icyo kurya n'icyo kunwa kubera ko hoteli iba iboneye, ubuzima bugakomeza bugatera imbere.

Amasoko aba meza cyane aho usanga abantu bari bucuruzamo bintu bitandukanye, aho baturage bari kwiteza imbere, bakazajya barabona abakiliya, bagacuruza nk'inyanya, intoryi, ibirungo bitandukanye za sereri naza puwavuro, bityo bagakomeza bakiteza imbere bakabona ubushobozi bwo kubaho.

Amasuku adufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu ari gucururiza imyenda akazajya arabona abakiriye, kubera ko mu isoko haba hahuriyemo abantu benshi agataha imyenda ze yazimaze bugaca ajya kurangura iyindi, agakomeza akiteza imbere mu buzima bwa buri munsi agakomeza akabaho neza akaba yatangira n' abana be amashuri kubera ko yabonye amafaranga.

Kwihangie imirimo bifasha abaturage mu kwiteza imbere aho usanga umuntu yaravuze ati; "reka n njyefa igisima ku isoko njye gucuruza inyanya" akaboneramo abakiriya benshi kuko ni mu isoko rinini ntabwo yabura nk'abakiriya, ugasanga atatanga n'umusoro ku isoko kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere, bajye barakoramo n'isuku ibyo bigakomeza bigufasha no kubona abakiriya ukagenda ukagura buziness yawe ikaba nini cyane.

Ubucuruzi buba bwiza cyane , aho usanga umuntu yarishingiye buzinesi , agafata isoko runaka cyangwa se butike, akajya agira imyenda y'abagabo, akagira ibitambaro by'abagabo bakazajya baza kumuteza imbere, akabigurisha yarangiza akabonamo amafaranga, na we ubwe akabidoda akazajya abonamo amafaranga, ibyo bigakomeza bigafasha n'igihugu gutera imbere, kuko umuntu ucuruza atanga n'imisoro, bigakomeza kwifashishwa mu bikorwa bya buri munsi.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho umuntu yishingira bizinesi, agatangira agacuruza imigati, na we ubwe akazajya arabona iyo kurya agaha n'abana be akabamara ubusambo, agacuruza ku isoko, abantu bakaza kuyigura, akiteza imbere, na we akabona amafaranga menshi, agakomeza akagura yaba afite ibase imwe akagira amabase abiri, ibyo bikamufasha gukomeza kwiteza imbere.

Iterambere ni ryiza cyane aho usanga umuntu azi gusoma, ugasanga abonye icyapa cy'isoko atari aziko ako gace karimo isoko, akabona icyapa cyanditse ngo isoko ni iry'ahantu runaka akamenya ngo aho hantu arahamenye akamenya ngo hariho isoko akagenda akajya guhahamo ibyo akeneye, akaba yaguramo ibindi bitandukanye ibyo bikamworoheza n'urugendo, akaba yaguramo ibyo akeneye agataha yishimye.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga leta yaratwubakiye amasoko, umuntu akaba afite nk'igisima cyo gucururizamo, abantu bakaba bazi ngo aho hantu uwo muntu buri munsi abaga ahari, acuruza rwagakoco, bacuruza imyuko, imigozi yo gushiramo ihene, namapata yo gutera mu nzugi, ibyuma byo guhatisha cyangwa se indiga. Ibyo bikaba byiza cyane akaba afite n'utuntuza two kujya umuntu ashyiramo amafaranga mu buryo bwo kwizigamira, ibyo bikadufasha.

Leta ni nziza cyane aho yatwitangiye ikazajya iratwubakira amasoko natwe tukazajya turabona aho gucururiza, umuntu akaba afite igisima cyangwa se icyumba cyo gucururizamo kubera leta ya twubakiye amasoko rusange, ibyo bikatubera byiza cyane kuko bidufasha kubona abakiriya benshi kandi bahoraho. Ubuzima bwacu bugakomeza bugatera imbere, tuka twakomeza tukiteza imbere tugatangira n'abana bacu amashuri bitworoheye.

Amasoko adufitiye akamaro kanini, aho usanga barubatse nk'isoko rinini hakazamo abashoramari benshi batandukanye, kandi bagacuruzamo ibintu bitandukanye, ukaba buri kimwe cyose wagihahiramo, yaba imyenda, inkweto, ibiribwa, ibinyobwa n'amasabune, ibintu byose ukaba wabishakira muri iryo soko. Iterambere rikomeje gukataza ahantu hose.

Amasoko adufitiye akamaro kanini ,aho usanga umuntu akeneye nk'ikintu cyo gucangiho bacyita lalonje warangiza ukajya kugura lalonje ukajya kujya uracagingaho amatelefone menshi, ibyo bikadufasha nk'ubu mu rugo turi nka batatu ,buri wese akabona aho azajya aracaginga bitamugoye ati wajya gucaginga ahandi, agacaginga iwe kubera ibikoresho byaratwegereye.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga ahantu hose mu byaro barahubatse amasoko, natwe mu giturage tukabona ahantu twajya guhahira buri kimwe cyose dukeneye, ugasanga niba ukeneye ikintu wakuraga nko mu mugi ahantu kure wateze, ukagisanga mu isoko, kubera abashoramari basigaye bajya no muri ayo masoko.

Ubucuruzi ni bwiza cyane aho usanga mu mabutike bari gucuruza no mu masoko bari gucuruza amavuta yitwa elayo, ukaba wayabona bikoroheye dore ko yo arimo n'umuti, avura bityo akadufasha. Amasoko aba meza cyane kuko tubona ibyo dukeneye byose tukabihahiramo.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarashinze bizinesi akorera mu isoko runaka akaba afite imbuto zitandukanye, abantu bazi ngo umuntu ni we ugira izo mbuto, bakaza kuzigura aho amaronji, ibinyomoro, amatunda, ibyo bikaba byiza cyane bikamufasha no gutera imbere kuko abona abakiriya akajya kurangurara n'izindi akabona n'amafaranga yo gutangirira abana be, ibyo bigakomeza bikamufasha gutera imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yariteje imbere. Akajya ku isoko, akazajya agurishamo amatelefoni. Agashinga akantu k'akabutike akagurisha amatelefone, akamamaza amavideo akazajya abigurisha. Ibyo bikagufasha gutera imbere, kuko ubonaga abakiriya. Ugakomeza ukangura ubucuruzi bwawe. Bigakomeza kugufasha gutere imbere, n'igihugu muri rusange, kuko utanga n'umusoro warangiza igihugu kigakomeza kigatera imbere.

Amasoko aba meza cyane kandi adufitiye akamaro kanini, aho usanga duhinze ibihingwa byacu tukabona aho tujya kubigurisha, twamara kubona aho tujya kubigurisha tukaba twabona n'ababigura, natwe tukaboneramo ibyo kugura muri ayo masoko, bikadufasha tukanihangira imirimo tukazajya turahora turacururiza muri ayo masoko, kubera ko ahoraho kandi abantu baba bayazi ko ahora acuruzwamo.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yarafashe nk'icumba nko mu isoko runaka n'urugero nko muri etaje yo muri goyiko, ugasanga umuntu yarafashe mo icyumba agacuruza imyenda zitandukanye z'abana iza bakuru akazajya ariteza imbere. Akabona abakiriya akabonamo amafaranga agakomeza akagura ubucuruzi bwe, na leta ikabonamo umusoro, kuko uwacururije muri iryo soko asora igakomeza bakateza imbere igihugu bakora ibikorwaremezo bitandukanye.

Amasoko aba meza cyane kandi adufitiye akamaro kanini, aho usanga ahantu runaka barahubatse amasoko. Ibyo biba byiza cyane. Barayatwegereje aho usanga umuntu agiye nko ku isoko akoresha nk'iminota nka mirongo itatu. Bityo akabasha kugurisha ibihingwa bye neza. Natwe tugiye guhaha, tugahaha neza, tubona n'uko tugura na mituyu tukohereza amafaranga bagenzi bacu. Ibyo bikadufasha gutera imbere cyane.

Amasoko aba meza cyane, aho usanga amasoko yarubatswe ahantu hose, mu byaro, hose ahari ukaba wabona aho ugurira ikintu cyo kurya, unashonje ukagenda ukajya nko kugura igisheke ukagihekenya, cyngwa se ukakigura ukakijyanira abana bo mu rugo, ibyo bigatuma abana bishima bakabaho neza.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho bufasha abantu gutera imbere, ugasanga umuntu afite buzinesi, yafashe nk'igisima runaka cyangwa se butike, agashyiramo ibintu bitandukanye by'abantu barya amakaroti, amaronji n'ibindi bintu bitandukanye by'imboga, akazajya abigurisha nk'insenda n'amagi, akajya abigurisha akabonamo amafaranga, agakomeza akiteza imbere.

Amasoko ni meza cyane, aho usanga hari isoko runaka ricuruza nk'imbuto, ugasanga aricuruza avoka ukamenya ngo iri soko ni iry avoka ukajya kuzihahiramo, ibyo bikadufasha cyane n'abacuruzi n'abahinze avoka nabo bakabona aho bazicururiza ibyo bigakomeza kudufasha twese hagati gukomeza gutera imbere no kugira ubuzima bwiza.